Umugabo ugaragara nk'uryamye, ufite igitambaro cy'umweru yaziritse ku mutwe, iruhande rwiwe hicaye uyu mugore uri guseka ndetse n'umwana, umugore yamukoze ku kanawa.

Umuhungu ndetse n' n'umukobwa bicaye begeranye bambaye amashati bose bahinye yenda kugera mu nkokora, n'amapantaro y'amakoboyi bari guseka, umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo, gifashwe n'abantu batatu, harimo abagabo babiri, umwe yambaye amadarubindi, ndetse n'umugore umwe ufite imisatsi miremire.

Umusore wambaye ishati y'umweru ugaragara igice cy'igihimba yifashe mu maso n'ibiganza bye bibiri iruhande rwe handitse amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo.

Abagabo babiri bahagararanye bambaye amakote ndetse n'amashati mu imbere, umwe afite telefoni ngendanwa mu ntoki, undi afite agatabo kari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru. Inyuma yabo hari imodoka.

Umukobwa uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, ufite terefone ngendanwa ku gutwi.

Icyapa kimanitseho ishusho y'umugabo uri guseka wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, agaragara igice cy'igihimba, afite n'ubwanwa munsi ye yanditse amagambo y'umweru.

Umukobwa wambaye agapira k'umukara gatoya, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, iri mu mabara atandukanye, uhagararanye n'undi mukobwa, wambaye agapira k'umweru gatoya.

Abantu babiri bahagararanye harimo umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare w'umwirabura afite ikaramu mu ntoki, uruhande rwe hari umugore w'umuzungu ufite mudasobwa ku meza imbere ye.

Abagabo babiri bahagaze mu mbuga isashemo amabuye, bafashe ku rufunguzo runini rw'umweru, rwanditseho amagambo y'umutuku, inyuma yabo hari imodoka nini y'ubwikorezi.

Icyapa kiriho amashusho y'imodoka ndetse n'amagambo gifashwe n'abantu batatu abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, abagabo ni abazungu umugore ni umwirabura yambaye amadarubindi ku masumo.

Abagabo babiri bahagaze bakoranye mu biganza bafashe ku rufunguzo rw'umweru rwanditseho amagambo y'umutuku umwe muri bo afite agakapu gatukura mu ntoki inyuma yabo hari imodoka.

Abagabo babiri bakoraniye mu biganza buri wese yafashe ku rufunguzo runini rw'umweru rwanditse n'amagambo y'umutuku, inyuma yabo hari imodoka ebyiri nini zifite amabara batandukanye.

Abagabo babiri bahagaze mu mbuga isashemo amabuye, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, umwe muribo yambaye imyenda y'umukara gusa, bafite agakapu gatukura mu ntoki, impande yabo n'inyuma yabo hari imodoka.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyenda irimo umutuku ufite umusatsi mukeya kumutwe ahagararanye n'undi mugabo w'umuzungu wambaye ishati icaye imirongo n'isaha ku kuboko.

Imbuga isashemo amabuye, ihagazemo abagabo batatu babiri bafashe rufunguzo runini rwanditseho amagambo y'umutuku, inyuma yabo hari imodoka yo mu ibara ry'umweru.

Abantu bane bahagararanye, bafashe ku rufunguzo rw'umweru rwanditseho amagambo y'umutuku, inyuma yabo hari imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo ufite urufunguzo runini cyane rw'umweru mu ntoki rwanditseho amagambo y'umutuku, inyuma ye hari imodoka y'umweru y'ubwikorezi.

Abagabo babiri bafashe ku rufunguzo runini rw'umweru rwanditsemo amagambo y'umutuku, umwe afashe ku modoka iri iruhande rwabo y'umweru y'ubwikorezi, inyuma hagaragara icyapa cyanditseho amagambo.

Abazungu batatu bahagararanye, harimo umwe ufashe ku rufunguzo rw'umweru. Ku yindi mpera kuri urwo rufunguzo hafasheho umugabo wirabura wambaye amadarubindi ku maso, inyuma yabo hari imodoka.

Ababikira babiri, umwe afite agakapu gatukura mu ntoki, undi afashe ku rufunguzo runini, rwanditseho amagambo y'umutuku, ku yindi impera y'urwo rufunguzo, bafasheho umugabo, inyuma yabo hari imodoka.

Imbuga isashemo amabuye, ihagazemo abagabo batatu bafashe ku rufunguzo runini rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ritukura, inyuma yabo hari imodoka ebyiri.

Abagabo babiri bahagararanye bambaye amashati bafite urufunguzo runini rw'umweru rwanditseho amagambo y'umutuku, umwe muribo afite agakapu karimo ibara ritukura, iruhande rw'abo bahagaze imodoka.

Imodoka y'umukara ifite amatara ari kwaka, inzugi zombi zirakinguye, kuri buri rugi hahagazeho umukobwa wambaye agapfukamunwa, umupira w'umweru, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Igiceri cyanditseho amagambo ku muzenguruko, mo hagati harimo ishusho y'insina ifite igitoki, hasi handitse umubare ibihumbi bibiri n'icyenda.

Inote iri mu ibara rirya gusa nk'umutuku, yanditseho ibihumbi bitanu. Hejuru yanditseho amagambo ndetse no hasi. Hagati y'ayo magambo hari igishushanyo cy'inyamaswa y'ingagi.

Inoti ebyiri zose zanditseho ibihumbi bitanu, iyo hejuru iriho abantu babyina, iyo hasi hariho inyubako, ku ruhande hari igiti gifite imbuto.

Icyapa kiriho umugabo uri guseka ufitiye terefone ngendanwa mu ntoki kiri mu cyumba cyicayemo abantu batatu harimo umugore wambaye isaha ku kuboko ku utagaragara neza mu isura ndetse n'ndi wambaye agapfukamunwa k'umukara n'umugabo umwe.

Inote ebyiri zanditseho igihumbi, iyo hejuru hariho inyubako iyo hasi hariho inyamaswa yitwa inkende, zose hejuru no hasi zanditseho amagambo.

Ibiceri bibiri bitoya byanditseho ibihumbi bibiri n'icyenda, hejuru bifite amagambo yanditseho, ku muzenguruko hashushanyijemo amashami y'ibiti, kimwe kiri mu ibara risa nk'icyuma, ikindi kiri mu ibara risa nka zahabu.

Igiceri cyanditseho mirongo itanu hejuru, munsi handitseho amagambo, munsi hakaba hari ikirangantego. Ku ruhande hakaba hari agashami gafite utubabi ndetse n'utubuto.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro gifite amabara menshi, hateretseho igikombe n'udusahani duto, iruhande rwabo hari umugabo wunamye usa nk'uri kubahereza igikombe, inyuma ye hari akabati gateretsemo ibicuruzwa.

Umugore uri guseka wambaye imyenda y'umweru, ateze igitambaro mu mutwe, agaragara igice cy'igihimba yambaye impeta nyinshi ku ntoki afite na terefone ngendanwa.

Abasore babiri bari guseka, umwe yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu, undi afite terefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwabo handitse amagambo yo mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Ukuboko kwambaye ishati y'amaboko maremare gufite amafaranga menshi mu ntoki, harimo inote enye zanditseho ijana, inoti imwe yanditseho ibihumbi bibiri n'indi noti imwe yanditseho ibihumbi bitanu.

Abagabo babiri bahagararanye bari kureba muri terefone ngendanwa bafite mu ntoki, umwe yambaye ingofero mu mutwe n'amadarubindi ku maso, undi yambaye agapira ko mu ibara ry'ubururu k'amaboko magufi kandiditsemo amagambo yo mu ibara ry'umuhondo mu gatuza.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara ushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho imbonerahamwe, iriho amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zanditsemo amagambo ndetse n'imibare hejuru munguni igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda mu yindi nguni igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, ashushanyijeho n'imbonerahamwe ebyiri, zanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, rushushanyijeho imbonerahamwe zirimo imibare ndetse n'amagambo, hejuru munguni har'igishushushanyo har'igishushanyo cy' ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni, har' igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, hashanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo k'ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo k'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho n'imbonerahamwe ebyiri, zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo k'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rwanditseho amagambo yo mu ibara y'umukara, hashushanyijeho imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo, cyerekana Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri, ziriho amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umwe rwanditseho amagambo y'umukara, rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare hejuru munguni igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo kikiranga ntego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi yashushanyije imbonerahamwe ebyiri zanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro m'u Rwanda, mu y'indi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo k'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara ashushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare. Hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare hejuru munguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda ku yindi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri zanditsemo amagambo ndetse n'imibare hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda mu yindi nguni hari igishushanyo cy' ikirangantego cy'u rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, rushayijeho imbonerahamwe ebyiri, zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru munguni hari igishushanyo n'ikirangantego cy'u Rwanda. Muyindi nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi yaho hashushanyije imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyije cy'ikigo Gihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati iciyemo imirongo, ugaragara igice cy'igihimba, afite amafaranga mu ntoki, ku ntoki ze yambayeho impeta.

Inoti yanditseho ijana hariho n'ishusho y'umugabo, hejuru yayo harambitse ibiceri byinshi, harimo ibyanditseho gatanu, ibyanditseho rimwe, n'ibiriho ishusho y'ururabo.

Inoti yanditseho ibihumbi makumyabiri, ishushanyijeho inyamaswa ebyiri z'udusumbashyamba, iruhande rwazo hari igishushanyo kijya kumera nk'isura y'umuntu, hejuru hari amagambo ahanditse.

Amafaranga menshi arambitse asandaguje harimo inote zanditseho ijana hagati zishushanyijeho isura y'umugabo hari n'ayanditseho mirongo itanu n'ayanditseho ijana hejuru yayo hateretse ibiceri.

Inote ziri mu mabara atandukanye, hariho yanditseho ijana, ishushanyijeho inzovu, hari n'indi yanditseho magana atanu iriho abantu basa nk'abahinga, n'indi yanditseho magana abiri iriho abantu babiri, umwe agaragara nk'uri guhinga,

Inote ziri mu mabara atandukanye, harimo izananditseho igihumbi, izanditseho ijana izanditseho magana abiri, izanditseho magana atanu, n'iyanditseho mirongo itanu indi yanditseho makumyabiri.

Imbonerahamwe yanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umukara, n'imibare yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'indi mibare ifite ibara ry'umuhondo, harimo n'amabendera y'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, Kenya, Ubuyapani, Ubushinwa ndetse n'Amerika.

Imbonerahamwe yanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare, hariho amabendera y'ibihugu nk'Ubwongereza, Kanada, Ubushinwa ndetse n'Ubuyapani.

Icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibabara ritukura hejuru, munsi yayo yashushanyije imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare, harimo n'amabendera y'ibihugu, harimo Amerika, ubwongereza, Tanzania ndetse n'Ubugande.

Imbonerahamwe irimo imibare ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, harimo amabendera y'ibihugu, nk'Ubuyapani, Ubwongereza, Amerika, ndetse na Kanada.

Imbonerahamwe irimo imibare n'amagambo, harimo amabendera y'ibihugu, harimo Amerika, Kanada, Ubushinwa ndetse n'Ubuyapani.

Inote ebyiri zose zanditseho mirongo itanu, iyo hejuru iriho ishusho ijya kumera nk'iyumuntu, iyo hasi iriho amazu inyuma yayo hari ibiti.

Inote zifite amabara atandukanye, hari iyanditseho gatanu, yanditseho icumi, yanditseho makumyabiri, yanditseho mirongo, itanu yanditseho ijana, ndetse n'iyanditseho magana abiri.

Inote zifite amabara atandukanye harimo iza magana atanu ebyiri, imwe yashushanyijeho umugabo yandishanyijeho inyubakoz' igihumbi ebyiri imwe yashushanyijeho umugabo indiriho inyubako iza bibiri ebyiri imweshushanyijeho inyamaswa yandishushanyijehoinyubako.

Umugabo munini, uri kwandika ku cyapa, gishushanyijeho imbonerahamwe, hari n'amagambo ndetse n'amabendera y'ibihugu harimo u Rwanda, Amerika, Canada u Bushinwa ndetse na Tanzania.

Icyapa gishushanyijeho imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare hariho n'amabendera y'ibihugu harimo Uganda, Uburundi, Tanzania, Kenya, Amerika ndetse n'Ubwongereza.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro, kirimo intebe zo mu ibara ry'umukara, hagati yazo hari ameza yo mu ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari utundi tumeza tubiri tw'uruziga.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro kirimo intebe zifite amabara atandukanye, harimo iz'umutuku hari n'ibitambaro birinda urumuri ku madirishya n'insakazamashusho imanitse ku gikuta.

Icyumba kigaragara nku ruganiriro kirimo intebe zifite amabara menshi harimo umweru umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi kibisi hari ibikuta by'umweru bimanitseho amashusho.

Imbuga iteretseho ameza abajijwe mu giti n'intebe zifite ibara ry'umukara, n'akandi kameza gatoya k'uruziga, haruguru hari akabati, hari n'inzu yubakishijwe amabati.

Icyumba cyicayemo abagabo batatu, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umweru, ateretseho amacupa, inyuma yabo hari ibyapa.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, haruguru hari ipikipiki, hari n'inzu ndende y'igorofa, hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Imbuga ihagazemo imodoka ziri mu mabara atandukanye ndetse n'ubwoko butandukanye, imbere yazo hari igorofa irimo amabara y'ubururu, imanitseho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditsemo amagambo y'umweru.

Imbuga y'igitaka ihagazemo imodoka z'ubwoko butandukanye ziri mu mabara anyuranye, imbere yazo hari inzu imanitseho ibyapa bibiri hejuru hagaragara n'igice gitoya cy'ikirere.

Abagore babiri bahagararanye bari guseka. Umwe yateze igitambaro mu mutwe, yambaye umupira w'amaboko maremare. Undi afite imisatsi miremire, yambaye umupira w'amaboko magufi, bafite akapa gatoya buri wese afasheho.

Umusore wambaye ikote ry'ikoboyi n'umupira w'umweru, yambaye impeta ku rutoki, ari guseka, ateruye umukobwa uri guseka, ufite imisatsi myinshi ku mutwe.

Icyumba gihagazemo urunyurane rw'abantu benshi harimo n'abicaye, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hari n'abafite ameza imbere yabo iriho ibitabo.

Umugore uri guseka ugaragara igice igice cy'igihimba wambaye umwenda urimo amabara menshi ateze igitambaro mu umutwe afite terefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwe handitse amagambo.

Umukobwa uri guseka, wambaye ishati y'amaboko maremare yo mu ibara ry'umweru, yambaye amadarubindi ku maso, afite n'umusatsi w'umukara ufungiye inyuma, iruhande rwe hari umusore uri guseka, imbere yabo hateretse mudasobwa.

Umugabo uri guseka wambaye ishati yaiye mu nkokora uteruye umwana, iruhande rwe hari umugore wambaye amadarubindi imbere yabo hateretse ibikarito.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bambaye udupfukamunwa mu isura, hari n'ameza ateretseho impapuro ndetse na mudasobwa.

Umukobwa uri guseka uteze igitambaro mu mutwe agaragara igice cy'igihimba, iruhande rwe handitse amagambo yo mu ibara ry'umweru ndetse no mu ibara ry'umuhondo.

Umuhungu n'umukobwa bahagararanye begeranye cyane umuhungu wafashe umukobwa mu mugongo, umukobwa yambaye ikanzu yo mu ibara ry'umweru, umuhungu yambaye ikote n'ishati y'umweru mu imbere, inyuma yaho hagaragara amazu.

Umukobwa ufite imisatsi miremire yazirikiye inyuma ahagararanye n'umugabo wambaye umupira w'ubururu bwijimye ufite ikaramu mu ntoki asa nkuri kwandika iruhande rwabo hagaragara igice gitoya cy'imodoka.

Umugore wambaye ishati y'amaboko maremare ufite umusatsi urimo ibara mu mutwe washyize ikiganza ku munwa ari guseka afite terefone ngendanwa mu ntoki. Inyuma ye hari inzu y'igorofa.

Umugabo ugaragara nk'uwasimbutse, wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara, umupira utukura, uri guseka, warambuye amaboko.

Umukobwa uri guseka ufite agakapu ku' kuboko ufite terefone, ngendanwa mu ntoki afite imisatsi iboshye iruhande rwe hari inkweto ndetse n'amadarubindi.

Inyubako ifite icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, imbere yayo hahagaze abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, iri mu ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo udafite umusatsi kumutwe uri guseka wambaye ishati ifunguye ibifungo, harimo umupira w'imbere uteruye umwana mutoya ufite imisatsi miremire kumutwe wambaye agapira k'umweru.

Abantu bahagaze hari n'abari kugenda iruhande rw'ameza manini ateretseho imbuto zigiye zitandukanye, harimo imineke, amacunga, indimu, inanasi ndetse n'ibinyomoro.

Umukobwa uri guseka wambaye amadarubindi ku maso n'igitambaro mu mutwe, afite agakapu ku rutugu, imbere ye hari undi mugore uri guseka, inyuma yabo hari imboga zitandukanye harimo inyanya.

Umugore wicaye, iruhande rwe hariya amezi manini ariho ibyorya bitandukanye, harimo inyanya, amashu, amadegede, imiteja ndetse na pavuro.

Abantu bicaye ndetse n'abahagaze, mu cyumba kigaragara nk'isoko, hari ameza ateretseho ibitunguru, inyanya ndetse na karoti, utibagiwe n'intoryi.

Imbuga ihagazemo urunyurane rw'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari inzu y'igorofa iri mu mabara atandukanye imanitseho n'ibyapa.

Umugore yakenyeye igitenge, ufite agakapu k'umukara ku rutugu, uteze igitambaro gitukura mu mutwe, yambaye n'amadarubindi, afashe ku mufuka urimo ibirayi, iruhande rwe hari indi mifuka irimo ibirayi ndetse n'abandi bantu.

Umugore uteze igitambaro umutwe, wambaye umupira uciyemo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, ahagaze iruhande rw'ibitebo binini, hejuru yabyo hateretseho inkoko ziriho imbuto zigiye zitandukanye, harimo inanasi, imyembe ndetse n'ibinyomoro.

Umuntu wambaye imyambaro y'ubururu wikoreye umufuka wuzuye nuwundi wigice uteretse hejuru yu wuzuye ku rutugu inyuma ye hari abantu.

Umufuka urimo ibishyimbo wegeranye n'urimo ifu hateretsemo akajerekani gatoya, iruhande rwayo hari amabasi harimo irimo inyanya n'irimo imineke ya kamara, iyindi irimo mironko irimo amashaza.

Inyubako y'igorofa imbere yayo hahagaze imodoka ziri mu mabara atandukanye, hari n'urunyurane rw'abantu, hateye n'imitaka ifite amabara atandukanye harimo uw'umutuku.

Umugore ukenyeye igitenge, uteze n'igitambaro mu mutwe, ufite imbago, imbere y'iwe hari ibase irimo imineke n'abandi bagore bicaye.

Umugore uri guseka uteze igitambaro mu mutwe wicaye inyuma ye hari ibiribwa bitandukanye harimo imineke ya kamara, amarongi, inyanya ndetse na tungurusumu.

Abantu bicaye abandi bahagaze ahantu hari ameza agiye ateretseho ibyo kurya bitandukanye harimo amashu, ibitunguru, inyanya ndetse n'insenda.

Imbuga ihagazeho abagabo babiri bagaragara nk'ababyina, inyuma yabo hari abandi bakobwa batatu, inyuma yabo hari ibyapa harimo ikiri mu ibara ry'umuhondo n'ikiri mu ibara ritukura.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, gakinguye amadirishya abiri, mu idirishya hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, hakurya yako hari abantu ndetse n'umuhanda.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umutuku, kandiwanditsemo amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo, gafite idirishya rifunguye, kometseho ibyapa byinshi, hariho n'ikiriho ishusho y'umukobwa.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi bari guseka, umwe afite imisatsi iboshye yambaye n'amaherena ku gutwi, ku gikuta hamanitse icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara.

Umugore ufite imisatsi miremire yambaye isaha ku kuboko imbere ye hari indangururamajwi nabandi bantu bahagaze iruhande inyuma ye hari icyapa kinini cy'ibara ry'umuhondo kirimo ishusho y'imodoka.

Umugabo wambaye umupira wumuhondo waamaboko magufi udafite umusatsi kumutwe yambaye amadarubindi ku maso afite terefone ngendanwa mu ntoki imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa hari nndi mugabo umuhagaze imbere uri guseka.

Utuzu tubiri twegeranye kamwe kari mu ibara ry'umuhondo akandi kari mu ibara ritukura twanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo gatoya, gakinguye amadirishya atatu, hejuru gafite ibara ry'ubururu, mu idirishya hahagaze umugabo wambaye umupira uciyemo imirongo w'amaboko magufi.

Amapikipiki abiri yicayeho abayobozi bayo bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo, iruhande rwabo bahagaze abagabo bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo, umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye ikabutura.

Abantu bambaye imipira y'umuhondo, y'amaboko magufi, yanditseho amagambo y'ubururu mu mugongo, bambaye n'ingofero z'umukara, bahagaze iruhande rw'icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'umukara, kirimo ibishushanyo by'ingofero.

Abagabo babiri bafatanye mu biganza, bambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi, inyuma yabo hari abantu, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye.

Umugabo w'umuzungu uri guseka, wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, afite igiseke mu ntoki, undi muntu w'umuzungu ari gukoramo, hagati yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo y'umukara ndetse n'umutuku, gafite amadirishya abiri afunguye, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu.

Umugore wambaye ikanzu ifite ibara rijya gutukura yambaye amadarubindi ku maso afite imviropi acyicyiye, n'iyindi afite mu ntoki iruhande rwiwe hahagaze abantu bambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufiya yambaye n'ingofero y'umuhondo ndetse n'ubururu mu mutwe, ahagararanye n'umukobwa ufite imisatsi iboshye, uri kureba muri terefone ngendanwa.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, kandiwanditseho amagambo yo mubara ry'umukara, gakinguye amadirishya yombi, hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara, mo imbere hahagazemo undi muntu.

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'umupira afite terefone ngendanwa mu ntoki, yambaye n'amadarubindi imbere yiwe ahagaze umukobwa wambaye umupira w'amaguru magufi mu ibara ry'umuhondo ufite umusatsi uboshye hari n'imodoka.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, wanditsemo amagambo y'ubururu mu gatuza, wambaye impeta ku rutoki n'isaha ku kuboko, ahagaze iruhande rw'imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'umuhondo wanditsemo amagambo y'ubururu mu mugongo. Iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu, imbere yabo hari undi mukobwa ufite imisatsi iboshye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'icyatsi kibisi, wambaye ingofero y'ubwirinzi bambara bagiye gupikipiki, imbere ye hari ipikipiki yo mu ibara ry'umukara, iteretseho agasanduku kari mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi kibisi, iruhande rwe hahagaze undi mugabo wambaye ishati y'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi wambaye n'ingofero y'ubururu uri noguseka ufite agakarito gatoya mu ntoki kandinditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu yicaye mumodoka hejuru ye handitse amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo ibyo kurya bitandukanye byiganje mu bwoko bw'imboga harimo inyanya, karoti, imiteja, intoryi ndetse n'ibitunguru.

Abagore bane bicaranye harimo babiri bambaye udupira tw'umukara n'undi umwe wambaye umupira wicyatsi kibisi bakenyeye ibitenge, umwe ateruye umwana wambaye agakanzu kari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Abantu babiri bicaye bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, imbere yabo hariyo ameza ateretseho mudasobwa, hari n'umugore uhagaze wambaye ikote ry'umukara, wambaye n'agapfukamunwa, inyuma ye hicaye abandi bantu.

Abagore benshi bicaye, harimo umugore umwe uteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe, n'undi uteruye umwana, hejuru yabo hari amagambo ahanditse, no hasi yabo handitse amagambo.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare mu imbere yambaye ishati y'umweru, yambaye amadarubindi ku maso yambaye n'ingofero afite igikapu gitukura ku rutugu.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe, ukenyeye n'igitenge, uhagaze iruhande rw'ameza ateretseho impapuro ndetse n'ibindi bintu, iruhande rwayo hicaye umugabo wambaye ga z'umweru mu ntoki, hari n'umuryango uhagazeho abantu benshi basa nkabategereje kwinjira.

Abantu bahagaze abandi bicaye harimo abagore n'abagabo ndetse n'abana bambaye imyenda igaragara nk'iy'idini rya isilamu bafite udupapuro mu ntoki turiho amafoto.

Igisambu gihagazemo abantu bari kureba inzu yubakishijwe amatafari yahiyesakanrishijwe amabati y'ubururu inyuma yabo hicaye abantu bitwikiye imitaka hari n'ibyapa bibiri.

Umugore uri guseka wambaye igitambaro mu mutwe, yambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, iruhande rw'iwe handitse amagambo yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, imbere ye handitse amagambo y'umweru.

Umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, wicaye imbere ye hari ameza ateretseho ikayi, ari kwandikamo, imbere yiwe hunamye umugore wambaye igitambaro gitukura mu mutwe.

Umugabo n'umugore bafashe icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare, umugore yambaye ikanzu y'igitenge, n'agapfukamunwa k'ubururu mu isura, umugabo yambaye ikote n'ipantaro ndetse n'ishati, yambaye n'amadarubindi ku maso.

Icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umutuku giteye iruhande rw'agahanda k'abanyamaguru, iruhande rwako hari ubusitani butoya bufatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka zifite amatara ari kwaka.

Umuntu ufite agakapu mu ntoki, wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare, yambaye n'ijipo y'umukara n'amadarubindi ku maso, ahagaze hagati y'utubati turimo ibitabo.